Ni imbaga y'abantu bateraniye hamwe, harimo abayobozi batandukanye, hari abari kuvugira ku materefone, hari abicaye, hari abahagaze, hari abari mu gisharagati, hari n'abari kwinjira mu nzu, hari n'idarapo ry'igihugu.

Ni umubyeyi ukuze ufite imisatsi miremire akaba afite mikoro ndetse yambaye n'isaha akaba ari gushimira abaturage muri rusange ba abikuye ku mutima ryo ki bamumufashije mu buzima bwe.

Ni umupapa uhagaze yambaye kositimu na karuvate, yambaye amarinete ari kumwe n'umuzungukazi, bafite ikirango cyerekana ko abaturage, abo hanze, bose bagomba gusura u Rwanda.

Ni mu cyumba k'inama, aho hicaye abagabo babiri, umwe yambaye ikositimu y'umukara, imbere ye hari agacupa k'amazi, hari igitabo iruhande rwe hari undi mugabo, imbere ye hari impapuro, ku ruhande hari n'idarapo ry'Igihugu.

Ni umwana muto w'umukobwa uri ku ivomero, ari kuvoma, hari umwana wundi w'umuhungu uri kumufasha kuvoma, bari bonyine, inyuma yabo hari ibiti bitandukanye.

Ku mugezi utemba harimo abana batatu bari kuvoma amazi, niho bakura amazi yo kuvomerera imyaka bahinga, ndetse akagenda ajya mu butaka.

Ababyeyi bicaye hamwe bambaye udupfukamunwa hakaba hari umubyeyi wambaye umupira w'umutuku n'ingofero y'umweru akaba ari guha umwana agatonyanga kugirango agire ubuzima bwiza.

Mu irerero hari urujya n'uruza rw'abaturage, ababyeyi bose bazanye abana, kugira ngo babahe igikoma kirimo intungamubiri zose, hakaba hari n'umuyobozi ushinzwe umutekano, waje nawe kureba uko banywa igikoma.

Ni abajyanama b'ubuzima bari hamwe, bari kumwe n'abayobozi babafasha kubahugura imirimo igendanye n'uko bagomba kwita ku bana, inyuma yabo hari ibiti byinshi birebire.

Ni ku ivomero rusange, aho hari umubyeyi w'umupapa uri kuvoma, ku rundi ruhande hakaba hari umuma na we uri kuvoma, hakaba hahagaze uvomesha, ahantu bari hakaba hakikijwe n'amashyamba menshi.

Ni ku iriba rusange aho leta yabubakiye hakaba haza kuvoma abantu batandukanye harimo ababyeyi, abana kugira ngo babone amazi yo gukoresha mu ngo zabo bafure, bateke, bakorope n'amazu yabo.

Ni ku mugezi, hari umubyeyi uri kuvomera mu ndobo, hari n'abandi babyeyi bakenyeye ibitenge bari kumufasha kuvoma, inyuma yabo hari urukuta rwubatse, inyuma yarwo hakaba hari igiti kirekire.

Ni urubyiruko ruri kwigira ubuganga, ubu bari mu mahugurwa, bari guhabwa inyigisho zitandukanye, hari abicaye hasi, hari abahagaze, urabona ko bishimye cyane.

Ni mu cyumba cy'inama aho hateraniye abayobozi batandukanye b'imidugudu imbere yabo hari umuyobozi ubakuriye ari kubabwira uko babwira abaturage bagakora kugira ngo barusheho kwiteza imbere.

Inama yahuje abayobozi bakomeye harimo umuyobozi mukuru ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, ari kubaganiriza ababwira ibyo bagomba kubahiriza abatuma kuri rubanda rugufi kugira ngo barusheho kubaho neza.

Ku mugezi rusange aho abaturage bose baza kuvoma amazi yo gukoresha imirimo itandukanye nko gufura, koza ibyombo ndetse no guteka. Hari umumama umwe waje kuvoma imbere ye hakaba hari amajerekani abiri ari kuvomeramo.

Ni inama y'abayobozi bakomeye, imbere yabo hari umuyobozi mukuru, yegereye idarapo ry'igihugu, buri muntu aho yicaye hateretse icupa ry'amazi yo kunywa.

Ni ku ishuri abana bari ku mugezi bari gukaraba, urabona ko hari abamaze gukaraba hari abakiri gukaraba abandi bagiye, urabona ko bari kwerekana ko bakarabye, urabona ko babyishimiye.

Umwana uri ku ivomero ari gukaraba imbere ye hateretse indobo nini y'ubururu, inyuma ye hari ibiti byinshi bitandukanye ari wenyine hari igitabobo kinini cyubitse iruhande rwe.

Umubyeyi w'umumama, yicaye ku ntebe ateruye umwana w'uruhinja, ari kumwe n'umuganga wambaye itabara y'umweru, akaba afite umuti ari kumuha, kugira ngo akure neza.

Ni ku kigo nderabuzima aho umuganga yicaye ku meza, ari kwakira abarwayi imbere ye hicaye umubyeyi uteruye mwana, hari umupapa uri kumuhereza udukinisho inyuma yabo hari abandi barwayi benshi.

Ni urujya n'uruza rw'abaturage baturutse impande zitandukanye, hakaba haje umukuru w'akarere yaje kubagezaho amakuru atandukanye, hakaba haparitse imodoka bakaba bakikijwe n'ibiti.

Ku mugezi aho amazi arega hari abana babiri bafite injerekani ndetse na cumi n'atanu bari kuvoma, inyuma yabo bakikijwe n'ibyatsi kandi aya mazi ni mabi ni ho hajyamo imyanda yose.

Kroku ivome rusange aho haza kuvomera abantu benshi batandukanye, hari abagore n'abana, hateretse indobo ebyiri, hari iy'ubururu ndetse n'umutuku, inyuma ya robine hakaba hahagaze abagore babiri ndetse n'abana babiri, inyuma hakaba hari inzu y'ibati y'umweru.

Ni ku kigonderabuzima, hicaye ababyeyi benshi bateruye abana b'impinja, baje kubakingiza kugira ngo abana bagire ubuzima bwiza, batazahura n'indwara zitandukanye.

Imbere y'isoko hicaye abantu benshi harimo abana, ababyeyi ndetse n'abasaza, imbere hateretse igikapu, inyuma yabo hari isoko rinini ryubakiye, risakaye.

Ababyeyi bateraniye hamwe baje gukingiza abana, muganga aricaye hari umwana ari kujombara urushinge, abandi nabo baricaye bategereje kugerwaho inyuma ye hari igikoresho kirimo inshinge aza gukoresha.

Intama yateraniye hamwe yahuje abayobozi b'inzego zitandukanye, imbere yabo hakaba haturetseho ameza ariho amazi yo kunywa, mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha kugira ngo bagere ku ntego zabo.

Ababyeyi b'abamama babiri bicaye hamwe, amaboko yabo bayashyize ku meza urabona ko hari ibyo bari kurangarira, umwe ateze igitambaro cy'umuhondo yambaye ikanzu, undi yambaye ikote n'agashati k'umukara.

Umwana muto w'umuhungu wambaye umupira w'ubururu harimo umukara afite isabune mu ntoki, hari umubyeyi ufite amazi mu ijage ari kumusukira ngo akarabe imbere ye hari intebe y'urubaho.

Urubyiruko rwishyize hamwe rwafashe umwanya wo kujya gukangurira abaturage kwisuzumisha kanseri y'inkondo y'umura kugira ngo irandurwe ishire mu gihugu, aho bahagaze, bahagaze munsi y'igiti kinini.

Abana bahagaze ku mugezi utemba, hari umwana w'umunyeshuri ufite ibirahure bibiri, amaze kuvoma amazi, abandi bari hakurya bari kumureba bamuseka kubera agiye kunywa amazi mabi.

Mu cyumba kwa muganga hari umubyeyi uteruye mwana, imbere ye hicaye umuganga, ari gushaka guha umuti umwana, iruhande hateretse ameza ariho amakayi n'ibikoresho, bari kwifashisha.

Ni itsinda ryishyize hamwe ririkwiga uburyo abantu bakwirinda gutwara inda zidateganyijwe. Bakaba bari mu mahugurwa yo kujya kubishishikariza abaturage muri rusange.

Umwana muto w'umukobwa wambaye imyenda itukura, afite umusatsi uryamye, ari kuri robine ari gukaraba amazi meza n'isabune, ari gukarabira mu ibase y'umukara nini.

N'ubukarabiro bwa kizungu, aho utega intoki amazi akamanuka, bifite aho isabune iba iteretse warangiza ugakaraba. Biba bikoranye n'ugushyiraho intoki amazi akimanukira.

Umubyeyi yicaye ku ntebe, ateruye umwana, muganga ahagaze iruhande rwe, afite ibinini mu ntoki, agiye guha umwana umuti, kugira ngo agire ubuzima buzira umuze.

Abana bari ku mariba meza cyane atatu buri umwe wese ari ku iriba ryiwe. Inyuma yabo hari umwana w'umunyeshuri wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, inyuma ye hakaba hari amashuri bigiramo.

Umubyeyi wikoreye injerekani y'amazi, ari kugenda hari umusore w'unamye ari kumureba, hari n'umwana wambaye ishati y'ubururu, na we arangariye uwo mubyeyi.

Indobo nziza za kizungu ziteretse ku meza hari abanyeshuri benshi bari kuza bavoma amazi yo kunywa, kugira ngo banywe bashire inyota inyuma yabo hari ibigo by'amashuri.

Mu bitaro hari umwana uryamye ku gitanda, hicaye umubyeyi we abaganga babiri, bari gusuzuma umwana bafite ibikoresho byabugenewe, inyuma yabo hari abandi barwayi bari kugenda.

Ni ku ivomero rusange, hari umwana uri gutegeho injereni ku mugezi, yambaye agapira k'umutuku, hari umubyeyi uri kumufasha, hari n'abandi babyeyi n'abandi bana bari kubareba, inyuma yabo hari intoki nyinshi.

Ni ku kigo cy'amashuri, aho abana bigira hari ubukarabiro, hari umwana uhari w'umukobwa uri gukaraba, hari n'abandi bana bari kugenda bagana aho bigira, hari ibiti birebire.

Mu bitaro kwa muganga hari abantu baje kwikingiza, abaganga bambaye imyenda y'akazi bakaba bafite ibikoresho bihagije harimo inshinge ibinini ndetse n'ibindi byose bifashisha.

Ni umwana w'umukobwa uvuye kuvoma, urabona ko hari umugabo uri kumufasha kwikorera anjerekani urabona ko yishimiye kumuha ubufasha.

Ni abantu bahagaze hamwe, harimo abaganga harimo n'abandi baturage batandukanye, hari abari kubahugura bahagaze imbere y'inzu nini ariho bahugurirwa.

Igitembo kinini kiri kuvamo amazi menshi yaretse hasi, hari umugabo uri gukaraba intoki ze kugira ngo agende afite isuku ha atagira uwo yanduza indwara.

Mu muhanda hari umubyeyi ugenda uhereza abaturage ibipapuro, hari abari kugenda babimwaka, inyuma ye hari abaturage benshi, hari ahaparitse imodoka, hari n'ahari imitaka imanitse n'amazu.

Ni inama y'ababyeyi aho bateraniye hamwe, imbere yabo hakaba hari umurezi wambaye itaburiya y'umweru, akaba afite umusatsi miremire, akaba ari kubaganiriza kugendanye n'imyitwarire y'abanyeshuri, iruhande rwe hari umusore wegamye ku giti.

N'imbaga y'abantu abaganga bahuriye hamwe hari abambaye imyenda y'ubururu n'amakanzu y'umweru, urabona ko bahagaze bari mu cyerekezo kimwe hari ikintu barimo kureba.

Umubyeyi yicaye ateruye umwana, akaba ari kumwe na muganga, akaba ari kujomba umwana urushinge, iruhande rwabo hari n'abandi babyeyi bategereje ko bakingira abana babo.

Kwa muganga basuwe n'abayobozi batandukanye, imbere yabo hakaba hari ameza ariho ibikoresho, bakaba bari kubaha imyirondoro y'ukuntu bita ku barwayi, hari n'abafotozi baje gufata amakuru ahagije.

Ni ku mujyanama w'ubuzima, hicaye ababyeyi babiri n'undi mujyanama harimo n'umwana, umujyanama w'ubuzima ari kubaza umwana uko amerewe, afite ikaye n'ikaramu ari kwandikiramo.

Ni imbaga y'abantu bateraniye hamwe, harimo ababyeyi bateruye abana b'impinja hakaba hari umugabo ufite inkongoro ari kubaha amata, nyuma yabo hari n'abandi bantu benshi bari kugenda bakira abana.

Ni umugabo uri kuvugira kuri aritari yambaye ikote ry'umukara, yambaye amarinete, iruhande rwe hari intebe, hari ameza ateretseho amazi yo kunywa ku rundi ruhande hari indabyo.

Umubyeyi ufite umwana yaje kumuvuza muganga ari kumusuzuma umuriro afite imbere yabo hateretse ameza hari n'ikaramu kugira ngo abashe kwandika ibyo amusanzemo.

Ku mugezi hari ibitemba bibiri byose biri gusohokamo amazi, hari umwana w'umuhungu, afite igikombe ari kuvoma amazi yo kunywa, kugira ngo ashire inyota kuko amazi ni ingirakamaro mu mubiri w'umuntu.

Ni umwana muto w'umuhungu, yambaye imyenda y'ishuri ifite agakaruvati, yaje ku ikarabiro ari gukarabira mu ibase y'umuhondo, inyuma ye hari inzu n'urugo rwubakishije amatafari.

Ku ivomero hari umubyeyi uhetse umwana, ndetse akaba afite imisatsi, hari indobo y'umuhondo ari kugerezamo umufuniko, iruhande rwe hateretse izindi ndobo, inyuma ye hari ishyamba.

Umubyeyi yicaye ku ntebe ateruye umwana w'uruhinja imbere ye hahagaze umuganga wambaye itaburiya y'umweru akaba ari guha umuti umwanawa w'uruhinja.

Abagabo bavuye mu nama guhugurirwa imirimo itandukanye basohotse bishimye bafite ubwuzu ubwo bari kugenda baramukanya bari kumwe n'umuzungu ariwe wari waje kubahugura ababwira ibintu bitandukanye.

Muganga yicaye ku ntebe, yateze igitambaro, ari kumwe n'abandi babyeyi, bicaye ku ntebe, ari gusuzuma umuriro ngo amenye uko umurwayi ahagaze, inyuma y'abo hari indabyo zimeze neza, hari n'amazu ari iruhande rw'abo.

Ababyeyi bicaye hamwe bateruye abana hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo yambaye n'amarinete, afite isahani ari kubagaburira, hari n'umukobwa uhagaze iruhande rwe wambaye ipantaro y'umutuku.

Mu itsinda ry'abana bateraniye hamwe, bakaba barererwa n'umushinga wita ku bana batishoboye, kugira ngo babashe kwiga barangize amashuri yabo neza.

Ni itsinda ryishyize hamwe rifite intego yo gukangurira ababyeyi kurya indyo yuzuye kugira ngo ababyeyi barusheho kugira ubuzima bwiza bishyize hamwe kugira ngo babafashe.

Inama yateranyije abantu batandukanye baturuka mu nzego zitandukanye harimo, abagabo n'ababyeyi, bakaba baje kwiga ku kibazo cy'abaturage uburyo ki bakwiteza imbere.

Inama yahuje abantu benshi batandukanye abagore, abagabo imbere yabo hicaye abantu batandatu abagabo batanu ndetse n'umugore umwe inyuma yabo hari icyapa kiriho abantu b'imena muri iki kiganiro.

Ku mugezi rusange hari umubyeyi umwe n'umupapa umwe, bakaba baje kuvoma amazi buri umwe afite ijerekani hakaba hari amariba abiri, inyuma yabo hakaba hari ishyamba ryinshi kandi rirerire.

Ni umubyeyi uteruye umwana mu ntoki, hari undi ushinzwe gupima umuriro bafite, hari umukobwa uhagaze wambaye ingofero, inyuma y'upima hahagaze n'abandi bantu.

Ku ivomero rusange aho hari umwana w'umuhungu uri kuvoma, hejuru ye hakaba hari umupapa uri kumufasha, haruguru yabo hari urujyaza n'uruza rw'abantu bari kugenda mu muhanda, harimo abanyeshuri n'ababyeyi batandukanye.

Ku mugezi harubakiye hari robine imwe amazi arafunguye, hari umwana uri kunywa amazi anywesha intoki akaba ari kumwe n'abandi bana, bari kumurebera ibyo ari gukora.

Umwana w'umukobwa, ahagaze ari ku mugezi, hari amariba abiri, rimwe riri kuzana amazi, irindi rirafunze, inyuma ye hari amazu atandukanye, hari n'ibiti birebire.

Ivomero rusange aho hari umubyeyi ufite indobo, akaba yateretse ku gitembo, abandi babiri bakaba bari kumufasha, inyuma yabo hari urukuta runini, inyuma y'urukuta hari igiti kirekire.

Ni abaganga bicaye hamwe bafite icyo barangamiye bari kureba imbere yabo hari igikarito kirimo ibikoresho bifashisha bavura n'ibindi bikoresho byose bakoresha bari kwita ku barwayi.

Ni abana bicaye hamwe, bari kumwe n'umubyeyi wambaye ingofero, n'abandi bantu bamuhagaze inyuma, bafite inkongoro, barikuha amata kugira ngo banywe, bashire inyota, bamererwe neza.

Ni abagabo babiri bahagaze, umwe yambaye ishati y'umweru undi afite igitabo mu ntoki, hari undi mugabo bicaje hasi yambaye ingofero y'abisilamu, bari kumubwira imbere yabo hari abana ndetse n'inyuma.

Mu nzira hari kugenda abantu batandukanye harimo umwana muto w'umukobwa bari gukorera injerekani y'amazi, hakaba hari undi mukobwa uri kumufotora bakaba bose bamushungereye bari kureba.

Ni umwana muto w'umukobwa, yambaye ikanzu afite imisatsi ishutse, afite agacupa mu ntoki, iruhande rwe hasi hari umufuka, hari inkoko, hari n'utundi dukoresho twifashishwa mu rugo.

Ku mugezirusange hamwe bavoma babanjije gukurura, hari abantu benshi, higanjemo abana, hateretse amazi atandukanye ndetse hari n'injirekani baje kuvomeramo.

Ni umwana muto w'umukobwa uhagaze yishimye, ari gukarabira mu i ibasa y'icyatsi, iruhande rwe hari inzu yubakishije amatafari ahiye, hirya hari n'ibiti.

Ni amahugurwa y'abajyanama b'ubuzima, bateraniye hamwe bafite abayobozi bari kubayobora bose babahaye telefone bari kubererekera uko bazajya bazikoresha, inyuma yabo hari umusozi uriho ibyatsi byiza.

Ni ku ivome rusange aho urujya n'uruza rw'abaturage baza kuvoma amazi yo gukoresha imirimo itandukanye, hari abana benshi harimo n'abagabo umwana akaba ari kubafasha kuvoma kugira ngo babone amazi yo gukoresha imirimo itandukanye.

Ni mu gihe cy'icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda, bicaye basizemo umwanya, imbere yabo ku meza hariho ibitabo, hari n'agacupa buri muntu wese aragafite, bambaye n'agapfukamunwa bafite n'ikaramu mu ntoki.

Ku mugezi hari umwana w'umuhungu inyuma ye hari indobo y'umweru yubitse akaba ari gukaraba amazi meza ava mu gitembo iruhande rwe hakaba hari indobo nini y'ubururu inyuma ye hakaba hari ishyamba ryinshi.

Ni mu cyumba cy'inama aho hateraniye ingeri zose harimo urubyiruko, abasaza, abasore, n'ababyeyi bakuze. Imbere yabo hateguye ameza hariho indabyo nziza, hari n'amazi yo kunywa bafite n'amakaye bari kwandikiramo.

Urukarabiro rugezweho hari amarobine atatu, buri hamwe harimo abiri ndetse hari abana b'abanyeshuri, bari gukaraba kugira ngo bisukure, hakaba hateretse indobo z'imihondo bari gukoresha amazi ajyamo.

Ni ku mugezi hari robine ebyiri hari umusaza wicaye ku ijerekani ubona ko yishimye inyuma ye hari indabyo n'amazu menshi, akaba yicaye ari wenyine aho ngaho kumugezi.

Ni abaganga batatu bahagaze hamwe bambaye udupfukamunwa, bambaye n'udutambaro mu mutwe bambaye n'amakanzu yabugenewe bafite ibikoresho mu ntoki bifashisha bagiye kuvura abarwayi.

Abantu bicaye hamwe bafite umuntu uri kubaganiriza, imbere yabo hakaba hateretse ameza ateretseho indabyo n'amazi yo kunywa akaba abona ko bamukurikiye barikumva ibyo ari kubabwira.

Ku ivomero rusange hari amajerekani menshi hahagaze urujya n'uruza rw'abantu baje kuvoma, hakaba hari uri kubavomera wambaye umupira w'umukara ndetse akaba ateze agatambaro mu mutwe.

Amahugurwa y'abaturage aho babahaye imyenda y'imyeru bakaba bahuguriwe gukora imirimo itandukanye harimo; guhinga ibishyimbo bya kijyambere no gutera imyumbati yera vuba.

Ni mu gihe cy'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda, hari ababyeyi babiri bicaye hamwe umwe afite imisatsi miremire yambaye agapfukamunwa yambaye isaha ateruye umwana ari kumusoma, undi yambaye agapfukamunwa k'umukara ateruye umwana aramurangariye.

Kwa muganga hateretse ameza ariho imiti bifashisha bakingira abarwayi ni abaganga batatu bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'udupfukamunwa hakaba hicaye umusaza bari kujomba urushinge kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Ni ubukarabiro bwa kinyarwanda aho umugabo ari gukandagira ku giti amazi akamanuka, iruhande rwe hari indabyo z'umutuku n'andi moko.

Umukecuru ufite injerekani ari ku mugezi ari kuvoma, yambaye ingofero y'ubururu, akenyera igitenge, yambaye n'umupira ari hakuno mu misozi niho yaje gukura amazi.

Ku iriba rusange hari amarobine abiri, hari umwana muto w'umuhungu yambaye ikabutura y'umutuku ndetse n'umupira w'imbeho ari kunywa amazi, imbere ye hatereretse indobo, inyuma ye hakaba hari ibiti birebire ndetse n'inzu.

Ku mugezi hicaye abana babiri b'abahungu, umwe yambaye imyenda myiza, undi yambaye agapira k'umutuku bari gukaraba bishimye baganira bagira vuba kugirango bajye gufata amafunguro.

Imbaga y'abantu nyamwinshi bateraniye hamwe, hari imodoka ije gutwara umuntu ugize ikibazo, hari abashinzwe umutekano, ndetse haparitse n'indi modoka isanzwe, inyuma yayo hakaba hari inzu nini, ifite irangururamajwi.

Ni mu mugezi utemba harimo umubyeyi wambaye umupira w'umuhondo ari kuvoma amazi, inyuma ye hari umusore ufite igare akaba ari kuryogereza aho ngaho.

Ni abaturage bahuguriwe guhinga imirima y'igikoni, ubu barimo gutera bari kwereka abandi uko bagenda bakurikiranya imbuto bagenda bahingamo n'umwanya baba bagomba gusiga.

Ni itsinda ry'abaganga ryateraniye hamwe bakaba baje guhugurirwa ibintu bitandukanye, harimo uko bakwita ku barwayi, uko bakora kugira ngo buri umwe wese azajya amenya igihe akorera.

Ku iriba rusange risa n'irishaje hari umwana uri kunywesha amazi intoki, akaba ari kuvomera mu ndobo, inyuma y'iri riba hari ibiti birebire ndetse n'inzu ifite irangi ry'ubururu n'iry'umweru.

Ku ivomero rusange aho amazi aza babanje guhomba hari umwana ufite injerekani yateze ku gitembo hari umubyeyi uri kumupompera abandi bakaba bahagaze aho bari kubarebera inyuma yabo hakaba hari urutoke rwinshi.

Mu rugo hari umukobwa usutamye imbere ye hari injerekani iteretse mu mabase abiri. Inyuma ye hari imyenda yanitse, hari n'ibase irimo ibyombo yogeje. Iruhande rwe hari n'igiti kirekire.

Ku mugezi hari amarobine abiri asa nkaho bayubatse vuba, hari umusaza wicaye ku njerekani bigaragarako yishimye, inyuma ye hari uruzitiro rw'imiyenzi ndetse ari wenyine.

Ni ku ruganda aho abakozi bari kwegeranya imifuka, baterura bagenda bayipanga ahantu hamwe, ahubwo harimo abagore babiri bateruranye umufuka, harimo n'abandi bagabo nabo bateruranye umufuka, n'abandi bahagaze n'undi mubyeyi uri kwigendera.

Kwa muganga hicaye umusaza wambaye ingofero ndetse n'ikote, iruhande rwe akaba akikijwe n'abaganga benshi, umwe muri bo uteze igitambaro cy'umweru akaba ari kumupima umuriro kugira ngo amenye ubushyuhe afite.

Ni umubyeyi uteruye umwana w'uruhinja yambaye umwenda w'umweru, ateze agatambaro k'umweru imbere ye hicaye umuntu ufite igitabo, ari gusoma iruhande rwe haicaye umwana n'umumama uhagaze.

Ni abana bari ku ivomero rusange, ni abana batandatu, buri mwana afite indobo y'umuhondo, hari n'undi mwana uri kumufasha kuvoma, imbere yabo hari n'akajerekani k'arindwi.

Ni bantu bari hamwe, hari abicaye ku ntebe y'umutuku, harimo umumama umwe, abandi bahagaze inyuma yabo no kuri buri ruhande, urabona ko hari icyo barangamiye, bari gukurikira.

Ku ivomero rya kizungu hari umwana wunamye uri gukora amasuku, hari indobo eshatu imwe ari kuyoza inyuma ye hari ibiti byinshi birebire kandi by'umuhondo.

Ni mu rugo hubatse agatanda, hariho ibisorori, ibikombe n'amaritiro, iruhande rwaho hari urutoki n'uruzitiro rw'imiyenzi, hateye n'imboga za dodo.

Ni abajyanama b'ubuzima bo ku kigo nderabuzima cya Mayange, basuwe n'abayobozi bakuru, hari abari gufotora bizihiwe, bari kwakira abashyitsi, inyuma yabo hari ikigo nderabuzima.

Ni umwana usutamye ku mugezi, ari gukaraba intoki, iruhande rwe hateretse amajerekani abiri, isa umuhondo ndetse n'ubururu, inyuma ye hakaba hakikijwe n'ibiti.

Umugore utwite ari kumwe n'umugabo we, bakaba bari kumwe n'umujyanama w'ubuzima, akaba ari kubabwira uburyo umugore utwite agomba kwitwara akoresha indyo yuzuye kugira ngo yirinde indwara.

Ni itsinda ry'babyeyi bose bicaye hamwe, bambaye imyenda y'imyeru, bateruye abana mu ntoki, bambaye imyenda y'umuhondo, ndetse hari n'umusore uri kubafasha kubaha icyo kunywa, inyuma ye hakaba hari mugenzi we wambaye ingofero y'umukara.

Ni kwa muganga aho bakirira abarwayi baje kwivuza, kugira ngo babashe kugera mu isuzumiro, kugira ngo barebe indwara barwaye babafashe babahe imiti ibakiza.

Ni ku umugezi utemba hahagazemo umwana wambaye ikabutura n'isengeri afite akavido arunamye ari kuvoma ahantu hakikijwe n'ibiti byinshi hejuru.

Abanyeshuri batandatu bose bafite ibikombe bari kuvoma amazi yo kunywa, ni ku kigega kinini inyuma yaho hari inzu n'urutoki ndetse n'ishyamba ryinshi.

Ku mugezi utemba, hari umukobwa ufite indobo nini, yafashe ikivovo ayirambikaho kugira ngo amazi ajye mu ndobo, iruhande rwe hicaye umwana w'umuhungu uri kureba ibyo ari gukora.

Ni ku kigo cy'amashuri, aho hicaye abana ku ntebe zabugenewe, bambaye imyenda y'ubururu ndetse na kake, inyuma yabo hakaba hari ikibaho bigeraho, bakaba bari gufungura.

Umugabo uhagaze wenyine yambaye ishati y'igitenge, afite telefone mu ntoki, akaba ari kureba hejuru, afite ibibazo byinshi ari kwibaza, ari gusaba imana ko yamugirira neza.

Ipantaro y'umukara ishati iri mu mutuku n'ubururu, ari gusuhuza umugabo ufite umusatsi mwinshi n'ubwanwa bwinshi, akaba yambaye imyenda yashwanyaguritse akaba yambaye n'ibirenge bari bonyine.

Ni imbaga y'abantu nyamwinshi iyobowe n'umugabo ufite irangururamajwi, akaba yegeranye n'abayobozi bashinzwe umutekano bafite icyapa cyanditseho kurwanya ihohoterwa ko ari inshingano ya buri wese.

N'umubyeyi wicaye yambaye ikanzu, ateruye umwana mu ntoki ari kumwe n'umujyanama w'ubuzima ari kumwereka igipimo bapimisha umuriro afite terefoni mu ntoki.

Ni igishushanyo cy'umuntu, kigaragaza umunwa, amazuru, amaso, kikagaragaza ubwonko aho buba butereye, kigaragaza n'umutwe w'umuntu uko uteye n'ijosi.

Ni urubyiruko rwishyize hamwe bakaba bavuye mu mahugurwa none babahaye imyenda isa bakaba bari kumwe n'abayobozi babo babashimira uburyo ki bitwaye ko bababereye abana beza.

Ni aho bajugunya imyanda ahahagaze umugabo wambaye imyenda bishaje, yishyizeho imyanda, afite akabunda mu ntoki, inyuma ye hari ibindi byuma byashaje n'ibipine by'imodoka.

Ni umwana w'umusore ufite agahinda kenshi, ari kurira, arizwa n'uko yabuze ababyeyi be, ibyo bikaba byamushenguye, bigatuma yigunga wenyine.

Mu mahugurwa higanjemo abasore benshi, harimo abamama bakeya bose bicaye bitonze bakurikiye bateze amatwi uri kubabwira, hari umukobwa uhagaze mu muryango areba abinjira.

Umubyeyi ubona ko akuze asutse umusatsi uryamye ari muri butike, ari gucuruza amavuta yo kwisiga, hari umuti w'amenyo hari n'agakapu k'umukara iruhande rwe.

Ni imbaga y'abaturage bateraniye hamwe, harimo urubyiruko, abasaza, abakecuru, bose barangamiye ikintu kimwe, hari abafite amatelefoni mu ntoki, hari abifashe neza, hari n'abarangaye.

Ni umubyeyi wambaye umupira w'umweru, ateruye umwana, umwana ari guseka, umubyeyi na we ibyishimo ni byose, bari imbere y'inzu, barishimye, bari guseka.

Ni imbaga y'abantu harimo abana, ababyeyi, urubyiruko bafite amadarapo mu ntoki zabo bari kwamamaza umukuru w'igihugu kandi barabyishimiye bose bayamanitse hejuru.

Ni imbaga y'abanyeshuri bateraniye hamwe barishimye cyane bakaba bafite abandi bana bari kubasusurutsa muri bo n'ibyishimo byabuzuye inyuma yabo hari idarapo ryigihugu n'amashyamba.

Inama y'abantu bateraniye hamwe, bafitemo abayobozi batandukanye, imbere hari umusore uri kubaganiriza ari kubabwira uko bakwiteza imbere mu gihe kizaza, kugira ngo barusheho kubaho neza.

Abaturage bateraniye hamwe, hari ameza abateretse imbere bashyize amasakoshi yabo, hari umumama wambaye ikanzu n'agashati k'umukara, ari imbere ari kubaganiriza bamuteze amatwi.

Ni umudamu w'umukuru w'igihugu, ahagaze kuri aritari, imbere ye hari indangururamajwi ebyiri, akaba ari gukangurira abaturage imirimo itandukanye, agenda abashishikariza gukora ibintu bitandukanye.

Umusore uri mu muhanda yambaye imyenda yacikaguritse, ndetse akaba afite imifuka inyuma ye haparitse ikimodoka kinini gitwara imicanga ndetse n'amabuye akaba agihagaze imbere.

Imbaga y'abantu bicaye hamwe, hari umubyeyi wicaye imbere yabo yambaye itaburiya y'umweru afite imisatsi isutse, imbere ye ku meza hateretse amacupa y'amazi, hari mudasobwa, akaba afite ikaramu ari kwandika ibiri kuva mu nama.

Umwana wicaye mu ntebe wambaye ishati y'umweru iriho agakaruvati, inyuma ye hari ababyeyi bigaragara ko bagiye kumuzanira icyo kurya kugira ngo arye.

Ni mu cyumba cy'inama aho hitabiriye abantu benshi harimo urungano rwose abasore, ababyeyi, inkumi , ndetse n'abasaza iruhande rwabo hateretse ameza hariho agacupa k'amazi yo kunywa bishimiye ku byo babagejejeho bibafitiye inyungu.

Umubyeyi wambaye ijire ari kuganiriza bagenzi be ababwira uko bagomba kwitwara ndetse n'uko bagomba gufata abagabo babo mu gihe bashaka kubaka urugo rugakomera.

Ni mu cyumba cy'inama aho hateraniye urujya'uruza rw'abaturage bakaba basuwe n'umukuru wabo w'igihugu akaba yaje kumva ibibazo abaturage be bafite.

Ni itsinda ry'abantu bishyize hamwe bakaba batumije abaturage benshi ngo baze babahugure buryo ki bahinga ibishyimbo bigezweho, kugira ngo babashe kubona umusaruro utubutse.

Ni inzu nziza yubatse neza, ikaba isakajwe n'amabati agezweho, ikaba ifite urubaraza, ikabifite ubusitani burimo imikindo n'igiti kirekire kigabye amashami.

Ni umusaza wizihiwe; yambaye ingofero, akenyeye umucyenyero w'umuhondo, afite igikoresho gakondo bifashisha barimo kubyina, inyuma ye hakaba hari inzu izitiye.

Ni amahugurwa y'abaturage yerekeranye n'ubuhinzi harimo abashinzwe umutekano, dore baje kubereka uko bacukura n'uko batera ibiti umuyobozi ari kumufasha kubikora.

Ni umubyeyi ugaragara nk'ukuze yambaye urunigi mu ijosi ateze igitambaro mu mutwe cy'umweru, akaba afite ibibazo bimuremereye mu mutwe we akaba ari gutakamba asaba Imana ko yamugirira neza.

Urujya n'uruza rw'abaturage, hari umubyeyi ufite inkwi inyuma ye hari umwana amaze gukubita kubera ko yamutumye kujya guhaha agatinda. Imbere ye hari n'undi mwana mutoya afashe ngo bagende.

Ni umubyeyi w'umumama uteze ibitambaro mu mutwe, wambaye ikote risa nabi, yicaye hasi, imbere ye hari ibicupa, inyuma ye hari abantu bicaye, hari abari kugenda ahantu hatandukanye.

Umukecuru wicaye ku gatebe k'urubahu arishimye, imbere ye hateretse isafuriya iri ku ziko atetse igikoma, iruhande rwe hari umufuniko ndetse n'ibikombe byo kunyweramo.

Ni babyeyi bakuze bicaye ku ntebe y'umutuku, inyuma yabo bagaragiwe n'urubyiruko rwiganjemo abakobwa n'abasore, inyuma yabo hari inzu iriho icyapa, ku rundi ruhande bagaragiwe n'izindi nzu zitandukanye.

Ni umubyeyi wicaye wenyine, yambaye ijipo, ateze igitambaro, yambaye n'isaha ku kuboko, iruhande rwe hari intebe itagize umuntu uyicayeho.

Umugabo wicaye yigunze, yunamye yifashe ku gahanga, hari umukobwa uri kumukoraho amuhumuriza, amuganiriza, kugira ngo atuze amere neza.

N'umubyeyi w'umu mama yicaye mu nzu wenyine, idirishya rirakinguye yicaye ku ntebe y'urubaho, imbere ye harambuye umusambi hari ibyo ari kurangarira.

Itsinda ry'abantu riri mu mahugurwa, bafite umugabo wambaye ishati y'umweru na karuvate n'ipantaro y'umukara, ari kubaganiriza uko bakwiteza imbere kugira ngo barusheho kubaho neza no gushishikariza bagenzi babo kwiteza imbere.

Itsinda ry'abantu benshi bahuriye hamwe bakaba bafite ibyapa mu ntoki, abenshi muri bo bambaye imipira y'umweru bisa nk'aho ari iy'akazi, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho amagambo asobanura uko hakwitabwaho ubuzima bwo mu mutwe.

Ni umubyeyi w'umumama wicaye ku ntebe akaba ahetse undi mwana muto mu mugongo iruhande rwe hari n'undi mwana uhagaze urabona ko hari isafuriya irimo igikoma akaba arimo gushugisha inyuma yabo hakaba hari irido.

Ni umugabo wambaye inkweto z'umukara ipantaro y'umukara n'amarinete inyuma ye hakaba hari inzu, akaba ahagaze muri jaride iruhande rwe hakaba hari imikindo miremire imukikije.

Umubyeyi yicaye ku musambi ateruye umwana, iruhande rwe hari undi mwana uhicaye, imbere ye hari intara iriho mironko hakaba harimo ibigori ari gutunganya kugira ngo ajye kubisheshamo igikoma.

Mu nzu harimo ameza meza, hateretseho ishashi irimo ifu y'igikoma, hakaba hicaye ababyeyi babiri bateruye abana b'uruhinja, nyuma yabo hakaba hateretse teremusi.

Umugabo wambaye neza ubona ko afite ibyishimo, akamwenyu ni kose ku munwa, inyuma ye hahagaze abagabo, abagore, ni abantu benshi bamuri inyuma.

Ni umugabo uri wenyine ufite agahinda, ari kurira amaso yatukuye ari kwibaza ibibazo byinshi. Ariko kureba mu cyerekezo kimwe, arasamye, yazanye n'ibimyira.

Ni ku muhanda hari umusore w'umuhungu, wambaye umupira w'umutuku uhicaye, imbere ye hari ibishashi, ibikarito, hakurya ye hari abantu bahari, hari imodoka zihaparitse.

Mu muhanda hari umugabo wambaye ibirenge afite umusatsi mwinshi yambaye imyenda yacikaguritse. Inyuma ye hari moto itwara abagenzi, haparitse imodoka, hari n'ibiti inyuma ye byinshi bimukikije.

Ni umubyeyi ukuze yambaye imyenda isa akaba ateze n'igitambaro, inyuma ye hagaragara abandi bantu benshi urabona ko umubyeyi hari ibyo arangamiye kandi yishimiye.

Ni abantu bicaye hamwe, harimo ababyeyi batatu, babiri bafite ibitabo mu ntoki, hicaye n'umugabo umwe n'umwana, inyuma yabo hari ibiti birebire, hari n'urutoki.

Umwana muto cyane, ari koza amenyo, afite ibikoresho byabugenewe, n'umuti ukesha amenyo, kugira ngo agire amenyo yererana, bimurinde n'indwara zandurira mu kanwa.

Umubyeyi aryamye mu bitaro, impande ze hari abaganga babiri bambaye udupfukamunwa n'amarinete, umwe muri bo akaba ari kumusuzuma indwara zandurira mu kanwa kugira ngo amuvure.

Ni kwa muganga hari umwana baryamishije, muganga ari kusuzuma mu kanwa yambaye ibikoresho byose bikwiye, ari kumurika mu kanwa inyuma ye hari ibindi bikoresho yifashisha avura abarwayi.

Ni kwa muganga, aho muganga yicaye ku ntebe, akaba yambaye itabaya, akaba afite imisatsi miremire, akaba yicaranye n'umurwayi, ari kumwe n'abandi baganga, bafite ibikoresho, bari gusuzuma umurwayi.

Mu ishuri harimo umwarimu wambaye itaburiya y'umweru afite igikoresho bifashisha babara, inyuma ye hahagaze ababyeyi baje kureba uko biga abana babo.

Umusaza wicaye ku ntebe akaba agaramye ari kumwe n' umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n' agapfukamunwa, akaba yamwasamishije ngo amusuzume arebe ikibazo yaba afite mu kanwa.

Abana b'abakobwa babiri, n'undi umwe, ubari inyuma bari koza amenyo yabo kugira ngo bagire amenyo asa neza bikabafasha no kwirinda indwara zandurira mu kanwa.

Kwa muganga yicaye umwana mutoya akaba agaramye muganga akaba ari gusuzuma mu kanwa ngo arebe indwara arwayemo. Iruhande rwe hakaba hari ibikoresho ari kwifashisha ndetse n'imiti.

Umukobwa wicaye ku ntebe yegamye ufite imisatsi myinshi, ari gukora ku kananwa ari kwirebera mu ndorerwamo afite ibyishimo, iruhande rwe hari ubukarabiro ni muri salo yicaye.

Abantu bicaye ku ntebe bakaba bambaye imyenda isa. Inyuma yabo hakaba hari abagabo batatu bambaye imipira y'umweru n'udupfukamunwa. Akaba umwe muri bo ari gusuzuma umwe mu kanwa. Hari n'abandi bagore babiri bahagaze ku mpande zombi.

Ni umusore uryamye kwa muganga yasabye muganga ari kumusuzuma, imbere yabo hari undi mugabo uhahagaze, iruhande rwe hari utundi dukoresho bifashisha bavura umurwayi.

Kwa muganga hicaye umwana ari kumwe n'abaganga babiri bambaye amataburiya ndetse n'udupfukamunwa bakaba bari gusuzuma mu kanwa ke inyuma yabo hari igishushanyo kiriho umubyeyi n'umupapa ndetse n'abana babiri.

Ni umukobwa mwiza wishimye ufite imisatsi miremire, imbere ye hakaba hateretse akantu kariho amenyo ya kizungu umuntu yambara akagaragara nk'aho afite amenyo kandi yarakutse.

Umusore mwiza yambaye umupira w'umweru, arishimye cyane kuko yageze ku nzozi ze zo gutangiza kapani yari amaranye igihe yarateguye ashishikarijwemo n'umuvandimwe we.

N'umwanawana muto w'umukobwa yambaye ikanzu umupira w'umweru ateze agatambaro mu mutwe hariho ururabyo afite uburoso yabutamiye inyuma ye hateretse ibikombe.

Ni umukobwa mwiza, yicaye hamwe, yambaye isengeri y'umweru, ateze n'igitambaro cy'umweru, afite uburoso ari koza amenyo kugira yirinde imyanda n'indwara izo ari zo zose zakandurira mu kanwa.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi miremire, yakoresheje umuti ukesha amenyo ari kwerekana ko amenyo yahindutse neza, kandi bikaba byaramurinze indwara zandurira mu kanwa.

Umusore mwiza wambaye umupira w'umweru bari kumwe n'umwana muto w'umuhungu bakaba bafite urudodo rw'umweru bakaba barutamiye mu kanwa barukoza ku menyo yabo.

Ni abana bicaye hamwe, bafite utuntu babahaye, bari kumwe n'ababyeyi, bishimiye ibyo babahaye, ku ntebe hateretseho n'ibikapu bazanye, inyuma yabo hari idirishya.

Mu itsinda ry'abantu bishyize hamwe kugira ngo bakore umuti abaturage bazajya bakoresha mu gihe bari koza amenyo yabo, umuti ukaba ukoranyemo imiti ya kinyarwanda irinda indwara zandurira mu kanwa.

Kwa muganga haryamye umubyeyi ku buriri akaba bari kumukura iryinyo muganga akaba afite ibikoresho byabugenewe ndetse akaba yambaye n'amarinete iruhande rwe hakaba hahagaze n'undi muganga uri kumufasha kuzana ibikoresho.

Kwa muganga hari umurwayi uryamye, akaba amerewe nabi, muganga akaba azanye ibikoresho kugira ngo amusuzume arebe indwara yaba abarwayi.

Kwa muganga haryamye umurwayi hari umuganga w'umugabo n'uw'umumama, bakaba bari kumusuzuma indwara zandurira mu kanwa, iruhande rwabo hari ibikoresho bifashisha bamusuzuma n'imiti bamushyiriramo.

Muri saro hari umusaza wambaye ishati y'umweru ari kumwe n'umugore we yambaye umupira w'umutuku bicaye hamwe, imbere yabo hateretse ameza iriho amasahani ariho ibiryo hateretse n'agasororori gatoya n'ibikombe bari kunyweramo.

Umupapa wicaye muri pasiparume ku ntebe, yambaye ishati y'ubururu, yambaye n'agapfukamunwa, hari umumama upfukamye ari kumufungira igipesu nawe yambaye agapfukamunwa, afite n'imisatsi myinshi yazirikiye hejuru, iruhande rwabo hari igiti kinini.

Umusaza n'umukecuru ubona ko bizihiwe, umusaza hari ibyo ari kwereka umukecuru ku ntoki ze bakaba ku meza hari utuntu tw'umweru duteretseho, umukecuru akaba yambaye amaherena yambaye n'impeta.

Umugore n'umugabo bicaye mu nzu bari kuganira umugore afite urupapuro ari kumusomera ijambo ry'imana undi, nawe yizihiwe imbere yabo hari ameza ateretseho agacupa k'umweru.

Umubyeyi wicaye ari gutunganya imboga zo guteka, n'inyanya, karoti, n'igitunguru, aganiriza n'umukobwa we, bose bicaye bishimye baseka.

Ni umusaza ubona ko yarushye yicaye wenyine, yifashe mu gahanga imbere ye hari ibikoresho bifashisha bakora akazi gatandukanye, harimo ibitabo bateretse n'ikirahure cy'amazi.

Umupapa ugaragara nk'ukuze ubona ko afite ikibazo, ari kugenda yifashishije ibindi bintu hari umumama uri kumufasha, iruhande rwabo hari akabati inyuma yabo hari intebe.

Umugabo uri muri siporo ari kwiruka yafunze ingumi, yambaye isaha kandi arishimye, ari kumwe n'umugore, na we bose bari kwiruka bose bambaye isaha, urabona ko bishimiye kuba bari gukora siporo.

Umubyeyi w'umupapa ugaragara nk'ukuze ari gukora siporo yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru ndetse n'udukurura amajwi, akaba ari kwiruka agira ngo agabanye umubyibuho kugirango arusheho kubaho neza.

Umusaza ushaje, hari umusore n'umumama bari kumufasha kugira ngo abashe kugera ku gitanda. Umwe yafashe ukuboko kumwe n'undi afata ukundi kugira ngo atagwa.

Umusaza uri gusohoka hari undi mugabo uri kumufasha yambaye agapfukamunwa, bari bonyine bari kumusindagiza bamugeze hanze.

Mu muhanda hari umugabo wambaye furari ndetse n'ikote rinini afite icyo ari kwifashisha agenda, ari kumwe n'umukobwa ufite isakoshi, ari kumusindagiza kubera ko afite ikibazo.

Umubyeyi w'umupapa ugaragara nk'ukuze, afite imvi yicaye ku ntebe ateruye umwana ari kumukinisha yamuhaye igikinisho afata mu ntoki urabona ko bishimye.

Ni umubyeyi ugaragara nk'ukuze, afite inkoni nziza mu ntoki, ari kumwe n'umusore ufite ubwanwa bwinshi, ukaba ubona ko umwe yiyegamije ku wundi, hari ibyishimo byaje mu muryango wabo.

Umubyeyi w'umu papa yicaye mu ntebe nziza ari kumwe n'umuganga ari kumuganiriza yishimye iruhande rwabo hari indabyo nziza ziteguye ku meza ndetse inzu isize irangi ryiza ry'umweru.

Umusaza uri kwa muganga aryamye ku gitanda imbere ye hahagaze muganga, inyuma ye hari ibikoresho bifashisha bari kumusuzuma kugira ngo bamenye indwara arwaye ibyo bigafasha muganga kumuha imiti imukiza.

Umubyeyi ugaragara nk'uguze arakora siporo kugira ngo agire ubuzima bwiza agabanye umubyibuho afite bikamurinda n'indwara z'imivuduko ndetse n'izindi zitandukanye.

Umusaza ukuze bamwicaje mu ibasi hari umuntu uri kumwoza kubera ko nta mbaraga afite, afite ikibazo cy'uburwayi niyo mpamvu bari kumwoza kugira ngo amererwe neza.

Abagabo babiri bari kugenda bishimye, bose bambaye amashati y'umweru, umwe afite ikote ku rutugu, afite n'agacupa karimo amazi yo kunywa, iruhande rwabo hari ibiti birebire.

umusaza wicaye mu ntebe nziza akaba ari kumwe n'umukobwa we ufite imisatsi miremire ,akaba ari kumupima ngo arebe uko ahagaze kugira ngo amenye uko agomba kumwitaho.

Abisilamu bicaye hamwe, harimo umusaza wambaye ingofero, akaba ari kuboha, hari n'undi musaza na we wambaye ingofero, bose uko bari aho ngaho baramurangamiye, bari kureba ibyo ari gukora.

Ni umuganga wicaye mu biro bye, yakiriye umurwayi ari kumwereka ibipapuro byanditseho indwara ye, muganga na we afite igitabo kiri aho, afite n'ikaramu ari gukoresha.

Umubyeyi w'umupapa uri kugenda yishingikirije ibyuma, ari kumwe n'umuganga, ari kumufasha kugenda kugira ngo atagira ikibazo, yambaye igikote cy'umukara kinini, urabona ko yishimiye ubufasha bari kumuha.

Umusaza wicaye mu kagare yambaye imyenda y'umweru, iruhande rwe hahagaze umukobwa uri kumubaza, inyuma hari igitanda kirimo umusego.

Kwa muganga hari umusaza wicaye ku ntebe, ari kumwe n'umuganga, yarambitse ukuboko ku meza, umuganga ari gusuzuma umuriro afite ngo arebe uko ahagaze.

Ni abagabo babiri bahagaze hamwe bakaba bafite umushumi w'umuhondo mu ntoki, bakaba bari gukururana kugira ngo barebe urusha undi imbaraga, inyuma yabo hari akabati gateretsemo ibikoresho bitandukanye.

Ni imbaga y'abantu benshi bateraniye hamwe, aho harimo abakwe n'abageni bakenyeye imyenda, harimo abateze ibitambaro, harimo abambaye imikenyero, harimo n'umusaza wambaye ingofero.

Umubyeyi yicaye ku ntebe yambaye imyenda y'umuhondo afite imisatsi miremire imbere ye hateretse ibinini, uducupa tubiri tw'umweru, hari n'ibindi binini biri ku meza akaba afite agacupa gatoya ari gusuka ibinini.

Ni itsinda ry'abagore ryishyize hamwe, biteje imbere barangura inyanya, amaronji, indimu n'izindi mbuto zitandukanye bose bambaye ibitenge.

Umukobwa mwiza muremure ufite imisatsi myinshi, ari kumwe n'umubyeyi we ari kumufasha gukora siporo kugirango agire ubuzima bwiza kandi iminsi ye irushaho kwiyongera yo kubaho.

Umubyeyi yambaye agapira k'umweru yishimiye agakinisho abazungu bamuhaye nabo bamuri inyuma baramukikije, inyuma yabo hari ibiti bitandukanye.

Umubyeyi w'umumama yicaye ku ntebe imbere ye hari ameza ariho agakarito, akaba afite ikirahure kirimo amazi iruhande rwe, hakaba hahagaze umukobwa akaba ari kumuha imiti yo kunywa.

Ni umusaza wambaye umupira w'umutuku n'amarinete ari kumwe n'umukecuru yegamije ku meza imbere yabo hari ibinini hari igikombe n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ni umugabo wicaye yitonze, yambaye amarinete, afite ikaramu mu ntoki, yifashe munsi y'umunwa, ari gusoma igitabo yitonze.

Ni umusaza wicaye ku ntebe, imbere ye hari ameza ariho mudasobwa n'igikombe cy'amazi, hari umwana w'umukobwa usutse imisatsi, ari kumuhereza ibinini, yambaye n'isaha ku kuboko.

Umusaza wambaye amarinete yicaye ku buriri hari umumama uri kumuhagurutsa hejuru hari inzitiramubu inyuma yabo hari akabati kanini iruhande rwabo hari n'isume.

Umusaza yicaye mu biro, afite igitabo, afite ikaramu ari kwandika, yambaye amarinete, iruhande rwe hari utundi dukoresho ari kwifashisha.

Ni umuryango wishimye wateraniye hamwe bari kumwe na papa wabo na mama wabo, bose hamwe bishimiye kuba ari umuryango umwe, inyuma yabo hakaba haparitse imodoka y'umweru hakaba hari n'indabyo nziza.

Icyumba kwa muganga hari umusaza uhicaye ndetse ari kumwe na muganga, imbere yabo hateretse ameza ariho igikombe kirimo amazi, ikayi ndetse n'ibinini byo kunywa, nibyo bagiye guha umusaza ngo anywe.

Mu muhanda harimo abamama bane bari muri siporo batatu bambaye imipira isa bari kumwe n'undi wambaye umupira w'umweru bari kumwe n'umusore inyuma yabo bakaba bakikijwe n'ubusitani inyuma yabo hari amazu.

Umubyeyi w'umupapa yicaye mu ntebe arimo kunywa amazi ,imbere ye hahagaze umukecuru wambaye umupira w'ubururu ,ukabona ko ari gushaka kumwaka igikombe.

Imbaga y'abantu bateraniye hamwe bicaye mu ntebe bakurikiye imbere yabo hari abari kubasusurutsa ku rundi ruhande hari abandi babyeyi bahagaze imbere yabo hari icyapa cy'umunsi mukuru bari kwizihiza.

Umukecuru uteze igitambaro cy'umutuku, urabona ko yishimye afite igipfuko ku jisho, ari kurebesha ijisho rimwe kandi yifubitse imyenda myinshi.

Imbaga y'abantu nyamwinshi iri kugenda ikangurira abaturage muri rusange cyane cyane urubyiruko kugira ngo baze bipimishe virus itera Sida kugira ngo bamenye uko bahagaze.

Ni inama yateraniyemo abayobozi batandukanye, ikaba iri kugaragaza abayobozi bari kwiyamamaza, ikaba igaragaza n'imyirondoro yabo, n'ibyo bashinzwe gukora.

Ni kwa muganga , muganga yicaye ku ntebe imbere ye ku meza hari umuti wica udukoko imbere ye hicaye ushinzwe umutekano inyuma ye hakaba hari abaje kwivuza kandi bose bakaba bambaye udupfukamunwa.

Abaganga babiri bahagaze bari gusuzuma umurwayi, bafite ibikoresho byabugenewe bibafasha kumenya indwara umuntu arwaye kugira ngo babashe kubavura babahe imiti ibakiza.

Ni umumama mu ufite ubwuzu uri kuganiriza abantu afite indangururamajwi, afite imisatsi miremire y'umukara, iruhande rwe akikijwe n'abantu batandukanye inyuma ye hari icyapa cy'umutuku kiriho abantu.

N'inyubako nziza kandi nini yakiririrwamo abantu benshi batandukanye, ikaba ifite amatara atandukanye, hari umwana uyiri imbere, akaba yateze agatambaro k'ubururu.

Kwa muganga hari ababyeyi bane bahicaye n'umwana umwe w'umukobwa bateruye abana b'impinja bagiye kubakingiza kugira ngo abana bagire ubuzima bwiza.

Abaganga bari mu cyumba cy'abarwayi aho baryamye buri umwe wese ari kwita ku umuntu ufite ikibazo hari umwe uhugiye muri telefone iruhande rwabo hari ibikoresho bifashisha bari kuvura.

Munsi y'igiti kinini hari umugabo uharyamye akaba ari kumwe n'abaganga babiri n'abandi bagabo batatu bambaye amajire, bakaba baje kureba ikibazo afite muganga akaba ari kumubuza kumukoraho.

Imbaga y'abantu bateraniye hamwe baje mu nama harimo ingeri zose harimo aba papa aba mama bose bicaye bakurikiye bateze amatwi bitonze.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ijire ari gujomba urushinge, kugira amurinde icyorezo cya covid cumi n'icyenda ari kumwe na bagenzi be bose bari kwita ku baturage baza babagana.

Ni umukobwa mwiza uhagaze yambaye ikanzu, afite imisatsi miremire ndetse ahagararanye n'umugabo wambaye ikote ndetse n'ipantaro, akaba yifashe mu mayunguyungu bakaba bishimye banezerewe.

Mu cyumba cy'inama aho inama yitabiriwe n'abakobwa gusa, imbere hari abakobwa bambaye imipira y'umukara, isa iruhande rwabo hari abandi bakobwa babiri bahicaye, imbere yabo bateretse mudasobwa n'igitabo, inyuma yabo hakaba hari abandi bambaye imipira y'umweru.

Ku kigo cy'amashuri hahagaze abagabo babiri bambaye neza ikote n'ipantaro ndetse na karuvati, hakaba hari umunyeshuri umwe wanditse igitabo akaba bari kumushimira uburyoki yitwaye.

Mu cyumba cy'inama hateraniye abayobozi b'inzego zo hasi bakaba basuwe n'abayobozi bakuru baturuka mu turere ndetse no mu mirenge bakaba baje kubaganiriza ku kibazo cy'imirire mibi kigaragara mu baturage ndetse hakaba haboneka n'abana bafite imirire mibi.

Ni icyapa cyerekana uko twakwirinda icyorezo, dukaraba intoki, twambara agapfukamuwa, dusigamo umwanya hagati yawe n'undi, tukarya n'imbuto zitandukanye.

Ni imbaga y'abantu nyamwinshi, aho higanjemo abagore benshi, harimo abagabo bakeya, bakaba bishimiye ubwigenge bahawe bwo kuzajya na bo bayobora, ibyo bikaba byabashimishije cyane.

Ni abamama bane bahagaze hamwe bareba mu kerekezo kimwe, urabona ko hari icyo barangamiye bishimiye, inyuma yabo hari ibiti.

Umukobwa mwiza wambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umukara n'ikote, afite igitabo mu ntoki ndetse n'irangururamajwi, akaba ari gukangurira abaturage kwirinda gutwara inda zitateganyijwe.

Ni abantu batatu harimo umugabo umwe abandi ni abakobwa, bafite imifuka mu ntoki bari kwerekana ahajya imyanda ibora n'ahajya imyanda itabora.

Abayobozi baje kwakira umuyobozi mukuru ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, akaba yaje aherekejwe n'abandi bamwungirije kugira ngo hatagira ikibazo kimubaho.

Abaganga batandatu bambaye imyenda y'imyeru bambaye n'udupfukamunwa, bari kwirinda icyorezo cyarurira mu gukoranaho no guhumeka, inyuma yabo hari n'abandi bantu bambaye udupfukamunwa.

Ni mu cyumba kiberamo intama y'abantu benshi, hateguye intebe nyinshi nziza zifite aho bakwandikira, ifite aritari umuntu ahagararamo akabaganiririzamo.

Ikigo nderabuzima cya Nyaruyenzi, hari abarwayi, hari abashinzwe umutekano, hari abari kwinjira, imbere hari indabyo nziza nini, ku rundi ruhande hari umugabo uhagaze wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero, akaba yambaye n'ikabutura.

Ni ku kigo nderabuzima cya Gishweru aho hahagaze umubyeyi wambaye umupira w'umutuku n'umuganga hakaba hari n'umugabo wicaye ku ntebe, hakaba nu'ndi musore uhagaze wambaye ingofero y'umutuku.

Inyubako nziza nini igeretse gatatu, yubakishije amatafari ahiye, izengurutswe n'ibyuma, imbere yayo hari urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda, harimo n'abambaye amajire y'umuhondo.

Ni ku marembo ajya ku bitaro bya Kabgayi, hari abantu bari kujyayo, hari umuntu ufite igare ahetseho igikarito, hari ababyeyi bicaye ku rubaraza, hari n'abandi babyeyi bahagaze ku rundi ruhande hari n'ibiti birebire.

Abaganga bateraniye hamwe, hari abari gusohoka imbere yabo hateretse ameza, ariho ibikoresho bifashisha bari kuvura abarwayi, bari kugirana inama y'uburyo ki bakwita ku barwayi kandi vuba.

Ni mu muhanda, n'imihanda ibiri iteganye harimo abantu bari kugenda mu byerekezo bitandukanye, imbere yabo hari inzu irimo abantu bari ku rubaraza hakurya no hakuno hari ibiti, hari na pasiparuma hameze neza.

Ni mu biro by'umuyobozi aho yicaye ari kumwe n'undi muntu, imbere ye hateguye ameza, hari kugenda hinjira umwe umwe bakurikirana uko bagiye baza.

Kwa muganga, muganga yicaye ku ntebe hari umurwayi uryamye ku gitanda ari kumusuzuma mu maso, hari abandi baganga bahagaze hari uri kurangarira muri telefone hari n'undi uri kureba ibyo ari gukora.

Kwa muganga hari abarwayi baryamye ku bitanda, umwe akaba yicaye muganga akaba ari kumubaza uko amerewe undi ari inyuma nawe aryamye ku buriri ategereje ko baza kumusuzuma.

Ni inyubako nziza nini, hariho icyapa cyanditseho ko ari umunsi wahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana, hari abantu benshi, hari n'imodoka iparitse aho ngaho.

Ni kwa muganga hari umuganga wambaye agapfukamunwa n'itaburiye, hari umwana wicaye ku gitanda hari n'umurwaza uteze igitambaro ku mutwe hari ibikoresho ari kwifashisha yita ku mwana.

Ni icyumba kinini kirimo ibitanda byinshi bisashe neza, buri kimwe, hariho imisego ibiri biri, hakaba harimo televiziyo ndetse hateretsemo n'ameza.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana mu muhanda yamufubitse igitenge, imbere yabo hari umwana ufite ibase mu ntoki, haruguru yabo hari urutoki n'indabyo nziza z'umutuku.

Muganga yicaye mu ntebe nziza, imbere ye hateretse mudasobwa, ari kureba amakuru agendanye n'uko abaturage batanze mituweri, kugira ngo abashe kubakira abahe ibyo bakeneye.

Ni icyumba kinini kirimo ibitanda byinshi buri gitanda hakaba harambuyeho amashuka y'umweru, buri gitanda gifite inzitiramibu hejuru, hakaba hahagazemo umukobwa wambaye imyenda isa, akaba yambaye n'agapfukamunwa akaba areba hanze.

Hari amazu menshi yubatse neza, afite ubusitani bwiza, harimo abantu bari muri pasiparama, harimo uwambaye agapira k'umutuku, harimo imikindo miremire, hari abantu bari kugenda genda aho hose.

Ni kwa muganga harimo abarwayi babiri, harimo umuganga uri gusuzuma umurwayi ku kuboko, undi muganga ari kwandika, undi arahagaze afite ikaramu mu ntoki, undi murwayi nawe aricaye ari kuvuga imyirondoro ye.

Ni ku Kigo Nderabuzima cya Kinyinya, inzu nziza cyane, igeretse kabiri, hejuru yayo hakaba hari indi nzu, imbere hari idarapo ry'igihugu, hari ubusitani bwiza, hari amabuye mato mato ashashe neza imbere yaho.

Mu itsinda ry'abakobwa beza bambaye imyenda myiza isa ubururu ndetse bakaba bambaye n'udupfukamunwa, bakaba bahagaze hamwe bari kwifotoza.

Ni itsinda ry'abantu bishyize hamwe higanjemo abazungu ndetse n'abanyarwanda bakeya bakaba baje gusura ibitaro bikomeye biherereye i Butaro, aho baje kureba imikorere n'ukuntu bita ku barwayi.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakajwe n'amabati agezweho. Imbere yayo hari ubusitani bwiza, hari aho baparika imodoka, ndetse irahari. Hahagaze abagabo babiri bambaye ikositimu, ndetse n'abandi babiri bambaye amashati asa, ku ruhande rwabo hari n'abandi.

Ni kwa muganga harimo ibitanda byinshi, harimo abarwayi babiri, hari uri kwitabwaho na muganga aryamye agaramye, undi ari gusa nkaho bamwegura.

Kwa muganga harimo ibitanda byiza, bisashe neza, buri gitanda kikaba gifite imeza, hakaba hari amarido meza y'imyeru, n'ibikoresho bifashisha bavura abarwayi.

Mu bitaro harimo umurwayi uryamye ku gitanda, ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi. Hakaba hari sipanete zirinda imibu, ndetse n'umuganga umwe, uri kwita kuri uyu murwayi.

Ku nzu y'ababyeyi hahagaze abaganga bane bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'udupfukamunwa, iruhande rwabo hari jaride nziza ndetse iyo nzu yubatse neza kandi ifite n'ibirahure byiza bigezweho.

Ni ku bitaro bikuru bya Butare, haparitse imodoka, hanze hari moto zihagenda, har’abaturage bari hanze, hari n'idarapo ry'igihugu, har’igiti kirekire.

Umubyeyi wicaye ku ntebe ateruye umwana mu ntoki mwiza w'uruhinja hakaba hahagaze umuganga wambaye itabariya y'umweru ndetse na agapfukamunwa akaba ari kureba umwana w'uruhinja.

Mu cyumba kwa muganga aho abarwayi barwariye hari ababyeyi babiri baryamye ku bitanda bitandukanye, hejuru yabo hamanitse inzitiramibu, ku rukuta hari icyapa kiriho abantu benshi imbere yabo hari teremusi.

Inzu nziza ifite umuryango ufunguye ni aho abafite indwara zitandukanye baza kugurira imiti hari imodoka ziparitse hanze, hari n'aho bacururiza imyenda.

Ni kwa muganga, harimo igitanda kinini, haryamyeho umuntu agaramye, hari n'ikindi gitanda, hari ibikoresho byinshi bifashisha bari kuvura, bari no gusuzuma abarwayi.

Umugabo yicaye mu ntebe, yambaye ishapure, imbere ku meza hari igitabo ari kwandikamo, afite ikaramu mu ntoki, hari umugabo umwicaye iruhande yamushyizeho igipimo ngo arebe umuriro afite.

Imbere y'inzu nziza, hahagaze umukobwa wambaye igisurubeti cy'umweru, ndetse n'ingofero, akaba yambaye agapfukamunwa, n'inkweto nziza z'umukara, iruhande rwe hakaba akikijwe n'indobo ebyiri, akaba ari kugenda areba hasi.

Inyubako nziza ifite ibirahure byiza umuntu yireberamo, ni aho abantu baza kugura imiti itandukanye, iherereye i Kanombe harimo abantu baje kugura imiti mo imbere.

Kwa muganga, hari igitanda cyiza gisashe neza, kiryamyemo umwana muto w'uruhinja akaba ari kwitabwaho na muganga, iruhande rwabo hakaba hari ibikoresho bifashisha bavura.

Inzu nziza yubatse neza, isize amarangi y'umuhondo, imbere yayo hari akabati bashyiramo ibikoresho bitandukanye, hakaba hari abantu bari kugenda ku rubaraza, haruguru yabo hakaba hari igiti kirekire.

Kwa muganga haryamye abarwayi babiri, ku bitanda bitandukanye hari umusaza n'umwana ukiri mutoya. Iruhande rwabo hari ibikoresho bifashisha babavura, nyuma yabo hari akajerekani karimo amazi yo kunywa.

Abaganga bicaye hamwe bari mu mahugurwa hari ubakuruye ari kubereka uko bazajya bakoresha imiti kugira ngo batange imiti ihwanye n'indwara buri murwayi arwaye.

Ni inzu nini ifunguye ifite imiryango myinshi aho bajya kugurira imiti itandukanye kandi hanze haparitse n'imodoka, hariho icyapa kibarangira ko ariho bagurira imiti.

Ku kigonderabuzima cya Kigina imbere ku muryango hari umubyeyi uhahagaze. Ahetse umwana, arikumusimbiza. Umwana yambaye akagofero gatukura. Hasi hari ibindi bikoresho by'uwo mubyeyi yahashyize.

Ni inyubako nini ifite imiryango itandukanye; imbere yayo hahagaze abagabo batatu bari kuganira; iruhande rwabo haparitse imodoka; imbere yabo hari umuntu uri kuhaturuka; hepfo y'aho hari undi muryango uparitsemo izindi modoka.

Umuganga ari kumwe n'umwana w'umukobwa bicaye hamwe ari kumusuzuma umuriro, inyuma ye hari akabati karimo imiti y'amoko itandukanye ari gukoresha.

Umusore uryamye agaramye, yambaye umupira w'umweru n'ikabutura, yambaye n'ingofero n'gapfukamunwa, muganga arunamye ari kumutera urushinge, iruhande rwaho hari iyindi ntebe.

Ni inzu nziza yubatse neza isakaje amabati meza, akaba ari aho baza gutangira ibizamini kugira ngo bamenye uko bahagaze, imbere yayo hakaba hahagaze umuganga wambaye itaburiya y'umweru.

Umwana mutoya uri kugenda mu muhanda yicaye ku kagare imbere ye hari inyubako nini isize amarangi y'umweru, ikaba ifite ubusitani bwiza ndetse hari n'umwana w'umuhungu uri kugenda agana aho ikigega kiri.

Ku bitaro bya Rwamagana imbere yaho hari abantu benshi bavuye mu mahugurwa y'ukuntu bakwita ku barwayi. ndetse bababwira n'izindi ndwara ziri kwaduka n'uko zigenda zifata abantu.

Ku kigo nderabuzima cya Tabagwe cyubatse neza cyane, hari amasikariye azamuka ajya aho bakirira abarwayi, hakaba hari abaturage benshi baje kwivuza, kikaba kizengurutswe n'ibyuma.

Mu biro hari intebe nziza y'umukara ndetse n'izo abazabagana bicaraho, hakaba hari ibikoresho byifashishwa mu gutanga serivisi zitandukanye harimo mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho bakoresha.

Mu muhanda hari kugenda umuzamu urinda abinjira akamenya abasohotse, iruhande rwe hari abantu benshi bari kugenda ahantu hatandukanye hakaba hari amazu meza hakaba haparitse n'imodoka nyinshi.

Muri parikingi y'imodoka, hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara, n'umupira w'umutuku, ndetse n'ingofero, akaba ari kuyobora abantu baza aho ngaho, aho bagomba guparika imodoka z'abo, inyuma y'abo hakaba hari inyubako nini nziza.

Ni mu isuzumiro aho muganga ari kubaza urwaye uko amerewe, inyuma ye hari undi muganga ufite igitabo ari kureberamo iruhande rwabo hari mudasobwa.

Ni inzu nziza nini, umuryango urafunguye ifite urubaraza, hateretsemo indabyo nziza hakikijwe n'ubusitani burimo imikindo miremire.

Inyubako zubatse zishoreranye, hejuru hari abagabo babiri bari kumanuka, hasi hari ahari intebe z'imbaho, hari pasuparumu, hari idarapo ry'Igihugu, hari n'aho baparika imodoka ndetse na moto.

Inzu nziza kandi nini imbere yaho hari umuganga wambaye itabariya haparitse imodoka, hari gusohokamo umugabo inyuma ye hari icyapa cyerekana gishishikariza abantu ibyo iyo nzu imaze, ikaba iri muri jaride nziza.

Ku kigo nderabuzima cya Kigina hari umubyeyi uri hanze uhetse umwana, imbere hari agashuka k'umweru, umwana yambaye akagofero gatukura.

Ku kigo nderabuzima cya Shagasha amarembo arafunguye, imbere hicaye ababyeyi babiri bari kumwe n'abana babiri, imbere yabo hari utwatsi.

Inzu nziza imeze neza, isize amarange, ikaba ifite ibirahure bigezweho, ndetse harimo ibitanda byinshi by'amoko atandukanye, hakaba harimo n'amarido meza.

Ku nyubako nziza isize amarangi meza ikaba ifite ibyuma imbere yayo hari abantu benshi bari kugenda bambaye imyenda isa amashati y'umweru bakaba bafite udupaniye mu ntoki.

Hari abantu bishyize hamwe, bose bakaba bakora umurimo umwe ari wo kwita ku barwayi bafite ibibazo bitandukanye ari abarwaye umwijima, indwara zo mu mutwe, n'izindi zose. Imbere yabo hakaba hateretse ibikoresho bifashisha mu kuvura.

Ku bitaro bikuru bya fayisari hari abantu benshi niho hivuriza indwara zose zananiranye niho babohereza, imbere yabo hakaba hari amadarapo atandukanye ndetse hakaba hari n'abantu bari kujya kwivurizayo.

Umusaza uri kugendera mu kagare, hari umwana wambaye agakote, ari kumusunika, imbere aho bari kugana hari umubyeyi uhagaze mu muryango, yambaye umupira w'umweru.

Ni umugabo wicaye mu biro, akaba afite mudasobwa ari kuyikoresha, ariko imbere ye hakaba hari iyindi ari kureberamo amakuru yose yaba akeneye, ni yo yarangariyemo.

Ni icyumba kirimo igitanda, igitanda kikaba gifite aho washyira inkweto, hakaba hari agatebe gato k'umweru. Icyumba hakaba harimo akabati, hakaba harimo aho gukarabira, hakaba harimo n'amarido y'umweru n'amatara.

Ni inyubako nziza isize amarangi y'umweru igice kimwe haruguru hakaba hasize amabara y'umuhondo ikaba iherereye mu karere ka ka Nyarugenge imbere yayo hakaba hari ubusitani bwiza.

Mu nzu y'ababyeyi n'impinja imbere yaho haparitse imodoka, hari nabantu baje kugemurira ababyeyi babyaye, hejuru hakaba harimo undi muryango harimo naho abantu bari kujyamo.

Inzu nziza yubatse neza cyane ifitemo amatara ndetse hari akabati karimo ibikoresho na etageri bashyiramo imiti niho abantu baza kugura imiti abafite indwara zitandukanye.

Inyubako iriho icyapa cyerekana ko ariho bagurira imiti, hari aho wabasanga n'uwo ari we, kikerekana ko ikorana n'ubwishingizi butandukanye, imbere yaho haparitse abamotari, hari n'umugabo wambaye umwenda w'umweru ahagaze no mu muryango.

Ni mu kabari aho bakira abanywa, abarya, hateguye neza, buri bwicaro hariho intebe enye, hagati hakaba harimo n'ameza. Hateguye neza cyane.

Kwa muganga hari ibitanda byinshi by'umweru hari aho bashyira imyanda hejuru hamanitse inzitiramibu harimo urukuta rugabanya icyumba kimwe n'ikindi hari n'umuryango basohokeramo.

Umumama wambaye ishati y'umweru, ateruye umwana w'uruhinja, yegerewe nundi mu mama ufite imisatsi isutse, yambaye ishati y'ubururu hakaba harimo umweru inyuma yabo bareba ibindi bikoresho byo mu rugo.

Ni ku kigo cy'amashuri imbere yacyo hari ibiti birebire, harimo umukindo kikaba gifite aho baparika imodoka, kikaba gifite rigori inyuramo amazi n'indabyo z'umuhondo.

Ku bitaro ahavurirwa indwara zitandukanye harimo intebe eshatu z'umukara, ameza manini ndetse n'ibyapa biriho abantu bambaye amarinete bigaragara ko ariho bavurira abantu barwaye amaso ari mu bwoko butandukanye.

Umubyeyi w'umupapa usa nkaho akuze yambaye amarinete, yicaye ku ntebe nziza ari kumwe n'umuganga ari kumuganiriza ku bigendanye n'ubuzima bwe, amaze kumubwira ko amerewe neza urabona ko yishimye.

Ni inyubako igeretse kabiri, munsi harimo urubaraza, hari abagabo babiri bari kuhagenda, hari ubambaye itaburiya, hari n'uwambaye ishati y'umweru, hejuru hari abandi bantu babiri bahahagaze iruhande rwaho hari pasiparumu.

Ni umukobwa uri muri siporo yambaye inkweto z'umuhondo n'umukara, yambaye agakabutura k'umukara, yambaye n'isaha ku kuboko arunamye ari gukora ku mavi.

Kwa muganga mu cyumba har’umwana mutoya ndetse n’ababyeyi batatu, akaba ari kumwe na muganga. Imbere yabo hateretse ameza, hariho ikayi bandikiramo ndetse muganga akaba ari gusuzuma umwana mu kanwa.

Umwana w'umukobwa uryamye ku gitanda yagize ikibazo cyo kuvunika akaguru, akaba ari kumwe n'umuganga ari kumusuzuma uko amerewe kugira ngo aze amwunge.

Umusore ubyibushye wambaye isengeri ufite imisatsi miremire ari kwirukanka agorora ingingo, iruhande rwe hakaba hicaye umukobwa uri kureba ibyo ari gukora.

Salo yicayemo umusore mwiza wambaye umupira w’umweru, ndetse afite agatambaro k’ubururu, yakomeretse ku kuboko ari gupfukaho kugirango yirinde imyanda.

Ni ku kibuga cy'umupira aho hateraniye abana benshi batandukanye hari abari kubyina hari abari kureba hejuru hari abafashe umupira bawushyira hejuru hari n'umubyeyi w'umupapa uri gukoma mu mashyi yambaye imyenda y'imituku.

Uwo umusore wambaye agapira k'umukara ku rutugu hariho isume y'umweru, afite icupa ari kunywa amazi ari wenyine, ari ahantu hatuje ubona ko afite inyota.

Ababyeyi baryamye mu cyumba kinini gishashemo matora nyinshi, hari uwicaye hari n'uryamye, hari akana gatoya kambaye imyenda y'umweru kicaye kari guseka.

Ni icyapa kigaragaza abantu bari kwiruka, harimo umugabo uri kwiruka cyane, yambaye agasengeri karimo umutuku, umweru n'umukara.

Ni umukobwa uri muri siporo yambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umukara, afite imisatsi miremire amaguru yayasobekeranyije, akaboko yagashyize hasi akandi yakazamuye hejuru, imbere ye hari icupa ririmo amazi.

Umwanawana w'umukobwa uri kunywa amazi, ku rutugu rwe hariho isume urabona ko afite inyota ari kunywa adakuraho kandi ari wenyine.

Umukobwa mwiza muremure ufite imisatsi miremire, akaba yambaye imyenda isa n'inkweto ze. Akaba ari muri siporo kugirango arambure ingingo ze, agire ubuzima buzira umuze.

Ni umusore wicaye ku ntebe yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu, afite agatambaro yakipfukishije ku kuboko afiteho igikomere.

Ni umusore mwiza uri muri siporo yambaye, ikabutura ndetse n'isengeri ari kugira ngo agorora ingingo ze, yumve amerewe neza kandi bikamufasha no gutekereza neza.

Umusore umwe yicaye ku ntebe y'urubaho yambaye imyenda y'imikara, afite icupa ari kunywa amazi imbere ye hateretse igikapu cy'umukara, hahagaze umukobwa uri kwinanura akaba yambaye ikabutura y'umukara n'umweru n'agasengeri.

Inkoni nziza ebyiri zisize amabara atandukanye, zifite umushumi w'umukara ndetse bazifashisha mu gihe habaye ikirori runaka baziha se w'umukobwa cyangwa se w'umugabo.

Mu ikusanyirizo ry'imbuto, harimo tungurusumu, harimo avoka, harimo pavuro, harimo na maronji, iruhande hari inkweto, hari umukeka, hari n'icupa ry'umutuku.

Umusore wambaye utukurura amajwi afite agacupa mu ntoki ari kunywa amazi kugira ngo ubuzima bwe bumere neza kuko arwaye impyiko kandi agomba kunywa amazi meza.

Umusore wari uri mu marushanwa yo gutwara igare yambaye kasike, akaba agize ikibazo hakaba hari abasore babiri bari kumufasha, inyuma ye hakaba hari abandi bakinnyi bari gukora aya marushanwa.

Umugabo wambaye ishati itukura yicaye ku ntebe nziza z'umweru, imbere ye hari mudasobwa ari gukora raporo zitandukanye kugirango azigeze kuba mukuriye.

Umukobwa mwiza yicaye ku ntebe z'imisego ifite igisebe ukuguru, ndetse hari umubyeyi uri kumufasha amupfukiraho kugira ngo hatagira imyanda ijyaho.

Ni umukobwa ubyutse, yicaye ku buriri, yambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umukara, afite imisatsi miremire, ari kwinanura azamuye amaboko hejuru, ku buriri hariho imisego ibiri.

Umusore mwiza yicaye mu twatsi ari gukora siporo kugira ngo amererwe neza ndetse bimufashe kuruhuka neza mu bwonko kandi bimurinde n'izindi ndwara zitandukanye.

Umukobwa mwiza uri muri siporo, afite imisatsi miremire ndetse yambaye imyenda isa ari uku kugira ngo ingingo ze zirambuke, kandi agabanye umubyibuho mwinshi, bitume aguma afite umubiri umeze neza.

Umusore wambaye umupira w'ubururu, akaba afite ubwanwa bwinshi, yambaye isaha ku kuboko, akaba afite agacupa karimo amazi meza yo kunywa, akaba ari kunywa kugira ngo ashire inyota.

Umukobwa mwiza yicaye mu biro afite imisatsi miremire akaba ari kuvugira kuri telefone nziza, iruhande rwe hakaba hari televiziyo ndetse akaba hari na mudasobwa ari kwifashisha.

Ni umukobwa wicaye ku mukeka ari gukora siporo, ari kubirebera muri mudasobwa, inyuma ye hari intebe z'imisego, imbere ye hari udukoresho bifashisha bakora siporo, hari n'agacupa gatoya kahateretse.

Uri muri siporo, yicaye hasi, yambaye ipantaro y’umukara n’isengeri y’umukara, yambaye inkweto z'umweru, yunamye arambura ukuguru kumwe agukozaho amaboko ye yose.

Ni umugabo uri muri siporo, yambaye ipantaro y'umukara irimo umweru, n'umupira w'umukara urimo umweru, arasutamye afite icyo yateruye hejuru, hari umugabo umuhagaze iruhande wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu.

Umusore mwiza wambaye inkweto z'umweru, ndetse na ga, ahagaze mu cyumba bakoreramo imiti itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo imitima umuvuduko w'amaraso n'imyijima, ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Umusore wicaye utuje yambaye umupira w'umweru yagize ikibazo ku kuboko, yafashe igitambaro cy'ubururu agishyiraho kugirango yirinde amasazi.

Umugabo wicaye mu ntebe yambaye ipantaro y'ubururu, afite agatambaro mu ntoki. Urabona ko yakomeretse ku ivi ari kuhahanagura, yambaye n'insenge y'umweru.

Inkoni ikoze mu cyuma yifashishwa kugira ngo umuntu abashe kugenda ikoreshwa n'abantu bafite ubumuga, bacitse ukuguru cyangwa bahuye n'indi mpanuka batabasha kugenda neza.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi myinshi akaba yambaye udukururamajwi, akaba afite icupa rinini ari kunywa amazi, bigaragara ko afite inyota nyinshi, akaba yiziritse agatambaro k'umukara ku kuboko.

Kuburiri haryamye umusore wavunitse hari umupapa wambaye imyenda y'umukara ari kumufasha kugira ngo igufwa ryongere risubire mu mwanya waryo.

Umusore ubyibushye cyane afite icupa ari kunywa amazi kandi ari muri siporo, ari kugira ngo agabanye umubyibuho kugira ngo arusheho kubaho neza.

Abasore babiri bari kwirukanka bakora siporo, kugira ngo bagabanye umubyibuho, ndetse barusheho kubaho neza kandi binabarinde indwara zitandukanye.

Ni umuganga ukuriye abandi ari kwigisha bagenzi be uko bavura uko basuzuma, bafite amakayi bari kwandikamo ibyo agenda abigisha inyuma ye hari igitanda.

Ni mu kibuga aho bakinira umupira w'amaguru hari umwana uryamye hasi hari abaganga bari kuvura hari abana bahagaze iruhande bari kureba uko bamuvura inyuma yabo hari abandi bakinnyi bari mu kibuga.

Kwa muganga hari umusore wicaye ku gitanda, yambaye ikabutura, yambaye n'umupira w'umukara, hari umuganga uri kumwitaho, umusore yakomeretse muganga ari kumupfuka.

Ni aho bakorera ubugororangingo, hari ibitanda bitandukanye haryamyeho abantu babiri, umwe hari umugabo uri kumwitaho ariko kumukanda mu mugongo, hirya hari n'umugore nawe uri kwita ku wundi muntu, hari umugabo uhagaze uri kureba uko babigenza.

Ni umusore uri muri siporo yambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umweru, yicaye ku cyuma, yunamye akaboko yakafatishije ku maguru, akandi kaboko yagafatishije mu mayunguyungu.

Umusore uri muri siporo yambaye isaha ku kuboko, akaba yambaye ikabutura hejuru nta mwenda yambaye. Ari gukora siporo kugira ingingo ze zigororoke ndetse bimurinde n'umubyibuho mwinshi kugirango ngo agire ubuzima bwiza.

Ni umubyeyi ufite umwana mu ntoki, iruhande rwe hari muganga ari gusuzuma umwana, hari n'abandi bana bahari n'abandi bantu bakuru.

Ni kwa muganga, hari umurwayi uryamye ku gitanda, yubitse inda, muganga ari kumusuzuma mu mugongo, yamushyizeho igipimo ari kureba indwara yaba afite.

Umukobwa mwiza kandi muremure, yambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umukara, afite icupa ari kunywa amazi, bigaragara ko afite inyota nyinshi.

Ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru aho haba hateraniye urujya n'uruza rw'abaturage baje kureba abakina, hari ugize ikibazo aryamye hasi mugenzi we ari kumwitaho areba ikibazo yaba ahuye nacyo.

Ni mu cyumba, hari umuntu uryamye ku buriri, hari abasore bane bamuhagaze hejuru, iruhande rwabo hari undi musore uhahagaze, inyuma yabo hari intebe hari n'abandi bakobwa bahagaze babashungereye.

Umugabo wicaye ahantu hatuje, yambaye isengeri, afite agacupa karimo amazi, arangariye imbere, yambaye akantu k'icyatsi ku kuboko, imbere ye hari umuntu uri kurenga agenda.

Ni numukobwa uri muri siporo, yambaye isengeri, yazamuye amaboko, ukuboko kumwe yagukojeje mu mugongo, Ukundi kuboko yagucishije hejuru y'umutwe, yambaye isaha, yambaye n'agakururamajwi.

Umusore mwiza wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umweru yambaye n'umukandara, inyuma ye hahagaze umukobwa wambaye imyenda isa akaba ari kureba ku kuboko kwe.

Umusore uhagaze yunamye ari gukora mu mavi urabona ko ashobora kuba agize ikibazo, yambaye isaha y'umukara, akaba yambaye ikabutura, inyuma ye urabona ko nta kintu gihari ari wenyine.

Ku muharuro hahagaze umusore mwiza muremure uri muri siporo, akaba yambaye ikabutura y'umukara ndetse n'isengeri y'umukara, akaba ari kurambura ingingo ze kugira ngo amererwe neza.

Umusore ubona ko arushye ananiwe cyane avuye muri siporo urabona ko ari kwimenaho amazi kubera ubushyuhe afite kugira ngo amererwe neza mu mubiri yongere agarure ubuzima bwiza.

Umukobwa mwiza, ari muri siporo aryamye hasi ku makaro akaba yambaye imyenda y'umukara akaba yazamuye ukuguru yaguhinnye ukundi arakurambura kugirango ingingo ze zigororoke.

Ni umusore aryamye ku buriri afite terefone mu ntoki yambaye umupira w'umukara n'ikabutura y'umweru harimo umutuku hariru umugabo uri kumufasha gukora siporo inyuma yabo hari ameza n'utundi dukoresho turi ku meza.

Umusore mwiza yicaye ku ntebe nziza, akaba yambaye umupira w'umweru, akaba afite ikibazo ku kuboko akaba yafashe agatambaro agapfukaho, kugira ngo aharinde kuba hajya imyanda.

Umusore wicaye hasi, yambaye ikabutura y'umukara, yambaye n'umupira w'imbeho, imbere ye hateretse igikapu, afite icupa ari kunywa amazi, afite inyota kuko ntabwo ari gukuraho.

Umuganga yicaye mu biro bye akaba yambaye agapfukanwa imbere ye ku meza hateretse mudasobwa ndetse n'igitabo ari kugenda yandikiramo abagenda baza kwivuza uko agenda afata ibizami byabo.

Ni mu muhanda harimo imodoka itwara abarwayi, imbere yayo hari amazu, hari ibiti birebire, hejuru hari amapoto anyuraho umuriro, hari n'amajaride ahakikije.

Abaganga bane bahagaze imbere y'umurwayi yicaye ku ntebe bose bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hateretse ameza ariho ibikoresho bari kwifashisha, inyuma yabo hari n'ibindi byinshi bikoreshwa bari gusuzuma.

Umusore uri muri siporo akaba ari kwiruka cyane areba imbere, bakatubwira inyungu zo gukora siporo zihoraho ko bidufasha kugorora amagufwa, bikadufasha kudatekereza cyane bigatuma umuntu abaho neza.

N'umukobwa wicaye hasi arambuye amaguru akaba ari kunama ashaka gukora ku maguru ari muri siporo afite imisatsi miremire iboshye yicaye wenyine.

Umukobwa mwiza yambaye ipantaro n'isengeri afite umusatsi mwinshi, ari gukora siporo, ari kuvura umugongo n'amaguru kugira ngo amagufwa ye arambuke amere neza.

Ni umusore wicaye hasi yambaye ikabutura, yambaye isengeri y'umukara urabona ko yagize ikibazo ku kaguru, ari kukazamura ngo arebe yambaye n'isaha y'umukara.

Umwana wicaye ku mukeka ari kumwe n'umuzungu inyuma ye hapfukamye umugore wihaye imana, hakaba hari n'abandi bantu bicaye aho ngaho bakaba barangamiye imbere.

Umukobwa wicaye hasi yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'isengeri ku kaboko ke haziritse agatambaro, imbere ye hari icupa ririmo amazi aza kunywa igihe agize inyota.

Umukobwa wicaye hasi inyuma ye hari igikapu yambaye umupira w'umukara yambaye agapfukamunwa afite imisatsi miremire imbere ye hicaye undi mukobwa wavunitse afite agacupa karimo umuti agiye kumuvurisha.

Umusore mwiza wambaye umupira w'umweru ndetse n'udukurura amajwi afite agacupa ari kunywa amazi, kugira ngo agire ubuzima bwiza kandi bimurinde n'izindi ndwara zitandukanye.

Umukobwa mwiza afite igicupa kinini kirimo amazi avuye muri siporo, ari kunywa kugira ngo ibihaha byorohere agire ubuzima bwiza ndetse umutwe ureke kumurya.

Hahagaze umuntu bari kutwereka ibikoresho bambara, abantu baba bagiye gukina umupira kugira ngo bibarinde kuba bavunika, bari kubyamamaza babyereka buri umwe wese ko bibaho kandi biboneka.

Mu bitaro harimo ibitanda byinshi, buri kimwe haryamyeho umurwayi harimo abaganga benshi baje kwita kuri abo barwayi, hakaba hari umubyeyi wicaye yifubitse igitenge akaba ari kureba abaganga.

Umusore mwiza yambaye umupira w'ubururu n'ishannete mu ijosi afite agacupa ari kunywa amazi kugirango ashire inyota afite ubwanwa bwinshi ndetse arabyibushye cyane.

Mu cyumba bakoreramo siporo hari abagabo babiri umwe aryamye ku buriri, asutse imisatsi iryamye, undi ari kurambura amaboko yambaye ingofero y'umukara hari n'ibindi bikoresho bifashisha bakora siporo.

Umusore wicaye ku ntebe nziza ndetse iruhande rwe hari imakasi, ndetse n'akandi gakoresho akaba yagize ikibazo cyo kuvunika ku kaguru, hakaba hari umubyeyi w'umupapa uri kumufasha amwunga ndetse anamupfugira ku gisebe.

Umukobwa wicaye hasi, yambaye ipantaro y'umukara, yambaye isengeri y'umweru, ari gukora siporo, akaguru kamwe yakarambuye, akandi yagahinnye, akaboko kamwe yagakojeje ku kaguru yarambuye, akandi yagakojeje ku ivi.

Umukobwa mwiza muremure ufite imisatsi miremire, afite icupa ari kunywa amazi kugira ngo amererwe neza mu mubiri, kandi amazi amurinde indwara nk'impyiko.

Ni umusore mwiza wicaye kwa muganga yambaye umupira w'umutuku ndetse n'agakabutura gatoya, akaba yahuye n'ikibazo cyo kuvunika ari kumwe na muganga ari kumusuzuma ngo arebe uko amerewe.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi miremire, ari muri siporo kugira ngo ingingo ze zirambuke kandi bimufashe gutekereza neza kuko ni ingirakamaro gukora ingororangingo.

Umusore mwiza wambaye imyenda y'imikara, imbere ye hateretse igisanduku kinini cy'umukara, ari kugikandagiraho kugirango arambure ingingo ze zose agire ubuzima bwiza, iruhande rwe hari indabyo z'umuhondo.

Umukobwa mwiza ari muri siporo yicaye hasi akaguru kamwe yakarambuye akandi yagahinnye, arunamye akaboko kamwe yagakojeje ku rukweto, ari kurambura ingingo ze kugira ngo arusheho kubaho neza no kugabanya umubyibuho mwinshi.

Ku meza hateretse amacupa abiri y'umweru n'andi macupa atandukanye, hakaba harambitse umuti bakoresha boza amenyo kugira ngo ase neza, hakaba hari ga bifashisha kugira ngo hatagira imyanda ibajya ku maboko yabo ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ubwoko bw'amavuta ari mu icupa rirerire ry'ubururu akaba yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu nk'ibiheri, ibihumane ndetse n'izindi ndwara zishobora kwataka uruhu bitewe n'ikirere.

Amacupa atatu, ateretse ku meza, arasa umweru, hari n'irindi cupa rirerire, yose hamwe arimo ubuki, ku meza hariho indabyo z'umuhondo, hariho ibishashara, ku rukuta hari n'inzuki.

Mu kabari hari inzoga z'amoko yose, ziri mu ducupa, mu bikombe harimo umugabo uri kuzicuruza, yambaye akagofero gatoya, ari gukangurira abantu kuza kunywa, ko inzoga ari nziza cyane.

Ni icupa rirerire ry'umweru, harimo isabune nziza bifashisha bafura mu mutwe kugira ngo ibavure indwara zitandukanye harimo imvuvu ndetse ikaba ikuramo n'indi myanda yose iza mu mutwe.

Amacupa ane ateretse ku meza, atatu arasa umweru, rimwe ni umuhondo, hakaba harimo umuti bakora mu byatsi bita igikakarubamba, ukaba uvura indwara zitandukanye.

Muganga yambaye itaburiye, yambaye agapfukamunwa, yambaye n'igitambaro mu mutwe, afite igikarito ari gukuramo imiti itandukanye, ari kugenda bimwe abipanga abishyira ku ruhande rumwe.

Ni icupa rigaragaza ko harimo umuti uvura amibe, uri kwerekana ko uwayinyweye wese ashobora kutazongera kurwara ino ndwara ya amibe.

Umubyeyi w'umumama uhagaze mu busitani bwe, ari kureba uko indabyo ze zimeze yafashe ku karabyo k'umutuku harimo n'uturabyo tw'iroza.

Indimu ni umuti ukungaha cyane wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo inkorora kuvura ibiheri ndetse n'izindi zitandukanye mu cyayi icyayi bawuywa mu cyayi kugira ngo byagizemo umuhumuro mwiza ndetse kiryohe.

Umuti uri mu gacupa k'umweru uvura indwara zitandukanye, nko kurangiza vuba, gucika intege, ibi bikaba bireba abantu bashatse babana.

Ni mu isoko ryubakiye, harimo abacuruzi b'ingeri zose, harimo abacuruza imiti, harimo abacuruza ibishyimbo, amasaka, ibigori n'ibindi bicuruzwa bitandukanye bose barimo.

Ni ibikombe bibiri by'umweru biteretse ku meza, imbere yabyo hari umuti w'amababi bita umuravumba bawuvugutiye mu bikombe kugira ngo bawunywe ubakize indwara zitandukanye.

Mu ikusanyirizo ry'imiti hagaragaramo imiti y'amoko itandukanye hari iri mu ducupa tw'umweru, umutuku, umuhondo, umukara, icyatsi n'andi mabara atandukanye.

Umuti ushobora kuvura abantu bafite inkovu, bafite ibiheri, bari kwerekana uko mbere umuntu aba ameze n'uko aba ameze nyuma amaze kuyisiga, bari kwerekana ko umugabo na we ashobora kugira uruhu rwiza.

Ibikombe bibiri by'ibirahure biteretse ku meza iruhande rwaho hari umuti bita umuravumba, bakaba bawufashe bakawuvuguta bagashyira mu mazi, kugira ngo banywe ubavure indwara zitandukanye harimo inkorora ndetse n'izindi.

Umuntu uri guseka afite amenyo meza, bari kutwereka ko afite amenyo arabagirana, hari umuti ushobora gukoresha kugira ngo amenyo yawe akomeze amere neza kandi bikayarinda kwangirika byoroheje.